Umuntu wicaye ku ntebe yambaye ijile ya MTN n'ingofero y'icyatsi. Yicaye mu mutaka wanditseho MTN. Inyuma ye hari umuntu ufite igare yamanitseho akaboko. Inyuma ye kandi hari n'inyubako ifite inkingi isize irangi ry'umweru.

Akazu k'umuhondo ka MTN hicayemo umuntu, hanze y'ako kazu hahagaze abagabo babiri.

Akazu k'umutuku kandiditseho kanyenyeri magana atanu urwego utangire, impande y'aka kazu hari umukobwa wicaye, kandi hafi yaho hari akandi gataka k'umuhondo k'icyapa cya MTN.

Akazu k'umuhondo ka MTN aka akazu kaba karimo umuntu uzwi ku izina ry'umwajenti acuruza amayinite agafasha abantu kubitsa amafaranga ndetse no kohereza amafaranga hirya no hino, impande y'aka kazu kandi hari ibiti.

Umusore uhagaze mu umutaka wa MTN, yambaye akajire k'umuhondo, ahetse igikapu cy'umukara, imbere ye hagaze umusore wambaye ikabutura yifashe ku itama.

Ikarita y'umuhondo yanditseho MTN, hashushanyijeho na simukadi.

Utuzu tw'umuhondo twa MTN, kamwe karimo umuntu wicaye impande yako hari abantu barimo kugenda.

Akazu k'umutuku kanditseho Eyateli Mani, imbere yako hari umukobwa urimo kugenda ufite isakoshi y'umutuku n'undi mugore wicaye.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, imbere yabo hahagaze abagabo batatu, bambaye udupfukamunwa, bambaye n'amajire y'umutuku, hafi yabo ahantu hanitse Eyateli mu kazi kose.

akazu k'umuhondo ka MTN gafunguye nta muntu urimo, kuri aka kazu hariho ifoto yabanut babiri, impande y'aka kazu kandi hateye indabo.

Abagabo babiri bambaye amajiri yanditseho Airtel, impande yabo hari akazu k'umutuku ka Airtel, hari n'abantu benshi bahagaze.

Aha harimo kubera igikorwa cyo gutangaza imigabane ku isoko rusange, aho tubona abantu benshi bicaye mu matente, abandi bitwikiye imitaka, hari umugore wambaye agashati k'umutuku n'amarinete, afite indangururamajwi arimo kuvuga impande ye, hari agataka k'umutuku.

Umutaka w'umuhondo handitseho MTN mobayiro mani, impandewo hari akazu k'umuhondo, hegeranye n'igiti cy'umukindo.

Akazu kari MTN kumuhondo, karafunguye harimo umuntu uhagazemo imbere.

Akazu k'umutuku kanditseho eyateli do simati foru netiwake, impande y'ako kazu turahabona umuntu wunamye, yicaye ku igare. Eyateli itanga amayinite, na yo igafasha kubitsa no kubikuza.

Umugabo uhagaze arimo gutanga ikiganiro, imbere ye hari indangururamajwi, ndetse afite n'iyindi mu ntoki.

Imodoka y'ubururu ifite amapine y'umukara kuri iyi modoka handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umuhondo.

Aha hari abantu babiri bicaye n'undi uhagaze, harimo umugore wambaye imyenda y'umweru n'akagofero k'umweru kanditseho copu temurwe akawunga ak'iwacu.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge urimo guseka, afite amacupa abiri mu ntoki, inyuma ye kandi hari n'andi macupa.

Umugabo uri mu murima w'ibinyomoro, afite ibinyomoro mu ntoki byatukuye kandi arimo no guca ibindi. Muri uyu murima harimo n'ibinyomoro bitari byatukura.

Aha hari abantu benshi, harimo umugabo wambaye ikote ry'ikositimu, afite indangururamajwi mu ntoki, yegeranye n'undi mugabo wambaye ikote ry'umuhondo, muri aba bantu kandi higanjemo abambaye imipira y'ubururu.

Umugore ubyibushye wambaye imyenda y'umweru, ingofero yumweru, n'isaha ku kuboko, afashe terefone mu ntoki, impande ye hari intebe ikoze mu rubaho.

Abantu bari hamwe barimo abambaye imipira y'ubururu, imbere yabo hari inanasi zitondetse ku murongo zeze, hafi yabo kandi hateye ibiti, ndetse hari n'inanasi itari yera.

Umugore wambaye imyenda y'umweru n'igofero y'umweru, afite terefone mu ntoki, imbere ye hari umuntu ufite ikaramu arimo kwandika.

Aha ni muri bare harimo inzoga z'ubwoko butandukanye, harimo ibicupa binini n'uducupa duto, ubwoko bw'inzoga burimo ubwinshi buzwi ku mazina ya likeri. Izi nzoga usanga zirimo alukoro nyinshi, akenshi iyo abantu bazinyweye barasinda.

Aha ni muri bare hari inyubako, imbere y'inyubako harimo intebe ndetse hari ubusitani buteyemo ibiti, aha ngaha rero ni ho abantu batemberera bakishima bakaruhuka mu mutwe cyangwa se abafite ibirori baza kubikorera aha ngaha.

Aha ni mu nyubako izwi ku izina rya bare harimo inzoga zigiye zitandukanye by'umwihariko cyane cyane inzoga z'amarikeri, turi kubonamo amazi na ji yitwa inaji hasi kandi hateretse ikese irimo amacupa afite imifuniko y'umuhondo.

Iri ni iduka ririmo ibikoresho by'isuku, harimo: KOtegisi yanditseho fili olu deyi komfidensi.

Aha ni mu iduka, bacuruza, ibitenge, harimo abantu, bahagaze.

Tugira amasitoke aririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aha ngaha dufitemo ameza akoze mu giti, asize irangi ry'umutuku, aya meza ategurwa muri salo, yifashishwa abantu barimo kurya, cyangwa se bagatereka aho utundi tuntu.

Iri ni iduka, harimo umugore uhagaze afite telefone mu ntoki, bacuruza ibintu bitandukanye nk'amavuta n'ibirungo bashyira mu biryo.

Iduka ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, haririmo amajyane ari mu gikarito cy'umuhondo handitseho ''sorwateri ltd'', kandi banacuruza salade.

Iduka cyangwa se butike irimo umugore urimo guseka uvutse igitambaro cy'umweru, imbere ye hari ibicupa birimo bombo, inyuma ye kandi hari ama bombo ari mu ishashe ye hari amaji, hari supaguru ndetse n'isabune izwi ku izina rya omo

Aha ni mu iduka hari icupa saladine ryaditseho Jambor ishushanyijeho ifi.

Iduka ririmo amajyane, icyuma saladine mayoneze n'utuyunguruzo.

Iri ni iduka harimo ibikurete babikamo amagi birimo ubusa, ku ruhande hari agakurete kamwe karimo amagi abiri.

Iduka ririmo imyenda myinshi harimo: amapantaro, imipira, amasharupe, harimo ibipapa ndetse n'imitako.

Mu rusengero hari umuntu uri mu muryango arimo kwinjira, imbere y'uru rusengero hateye ibiti bibiri, urusengero kandi rusakaje amabati y'umutuku.

Aha ni mu rusengero harimo abagabo batatu n'umugore umwe, abagabo bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, umugore we yambaye ikanzu y'umutuku irimo umukara yambuye n'amarinete, bafite indangururamajwi mu ntoki umusore umwe arimo kuririmba.

Urusengero hari abantu benshi bahagaze hanze, bamwe bitwikiriye imitaka, inyubako y'urusengero hejuru hariho umusaraba.

Urusengero hari abantu benshi bambaye amakanzu harimo abapadiri n'abasenyeri, hari n'umuntu wambaye imyenda y'umukara uri imbere.

Iyi ni inyubako y'urusengero, hafi y'iyi inyubako hateye ibiti, imbere y'iyi nyubako kandi hari urugi rusize irangi ry'umutuku.

Abagabo bambaye amakanzu n'utugofero bamwe bambaye amashapule, abandi bambaye imisaraba, amakanzu bambaye ari mu ibara ry'isine rikoreshwa mu bakatolike mu gihe k'isibo, impande yabo turahabona inyubako isize irange ry'umuhondo.

Inyubako nyinshi, harimo inzu zubatse mu bwoko bw'inzu zigeretse, impande y'izo nzu hari ubusitani buteyemo ibiti.

Icyumba kirimo intebe z'imifariso zifite n'imisego. Imbere yizi ntebe hateretse ameza hari n'indi ntebe, iri yonyine ifite ibara ry'umuhondo.

Hoteli ifite inyubako zigeretse zizwi ku izina rya etaje imbere yaho hari intebe n'ameza, aho abantu bicara bakaganirira bagafata ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, hoteli nyinshi ziba mu mugi ugereranyije no mu byaro.

Hoteli turikubona icyumba kirimo intebe, ameza ariho igitambaro cy'umweru ndetse hari n'amarido y'umweru. Ahangaha haba harimo ibyo kurya ibyo kunywa, ndetse bagira n'amacumbi, wishyura ukararamo.

Hoteri ifite inyubako zigeretse zizwi ku izina rya etaje, turabona abagabo bahagaze imbere bambaye amakositimu, ahangaha abantu bakorera ibirori iyo bakoze ubukwe, barahaza bakahiyakirira ndetse bakanahifotoreza.

Hoteri ifite inyubako zigeretse hari imitaka, muri iyi mitaka harimo intebe abantu bicaramo barimo kuva koga, impande yo muri pisine hateye indabo.

inzu yubatse m'ubwoko bw'inzuzigeretse, mbere yayo hari imitaka irimo intebe abantu bicaramo, hari ubwogero ndetse impande y'u bwo bwogero hateye ndabo.

Iki ni icyumba bararamo, kiriho amashuka y'umweruru n'imisego ibiri, hakabamo n'inzitiramibu.

Hoteli ifite inyubako zigeretse zizwi ku izina rya etaje, imbere y'iyi hoteli hari ubusitani buteyemo ibiti n'indabo, impande y'ubu busitani hari umuhanda wa kaburimbo.

Ahangaha ni kuri hotel, aho turi kubona icyapa kiri irihunde w'umuhanda wa kaburimbo cyanditseho demi-shiraton poutique hotel, ipande y'iki cyapa turahabona ibiti ndetse n'indabo ziteye ku kumuhanda.

Aha ni mu bwogero cyangwa se aho bita muri pisine, impade y'ubu bwogero, hari imitaka irimo udutebe abantu bicaramo.

Hoteri turabona icyumba kirimo ameza ariho udutambaro tw'umweru, intebe zisize amarange y'umutuku ameza ya mbere ariho nimero rimwe, ameza ya kabiri ariho nimero kabiri, muri iki cyumba harimo amarido y'umweru.

Muri wikendi usanga abantu benshi bananiwe bafata umwanya bagatembera, bagasohokera ahantu, bakaruhuka, aha ngaha ni muri hoteli aho abantu baza bananiwe, bakaruhuka, bagafata ibyo kurya n'ibyo kunywa, turabona intebe z'umutuku zegamirwa hagati y'aho harimo ameza.

Iyi ni hoteri ho turabona abagore babiri bicaye, hari n'umugabo wundi wicaye, abagore babiri bambaye amataratara, imbere yabo ku meza kandi hateretse ibyo kurya, ibyo kunywa, harambitse na telefone, inyuma yabo turabona undi muntu uhagaze wambaye ishati y'umweru.

Icyumba kirimo igitanda hashasheho amashuka y'umweru, hari inzitiramibu kandi hari n' ameza.

Ahantu muri hoteri, hari pisine, impande ya pisinine hari umutaka urimo intebe abantu bicaramo kandi hakurya y'iyo pisine hateye ibiti.

Aha ni muri pisine ikikijwe n'indabo, ibiti ndetse hari n'imitaka n'intebe abantu bicaramo.

Aha ni mu bwogero, impande yaho hari imitaka n'intebe abantu bicaramo, hafi y'ubu ubwogero kandi hateye n'ibiti.

Iyi ni hoteri ifite inyubako zigeretse, imbere y'iyi hoteri hari imitaka y'umweru n'intebe abantu bicaraho kandi hari na pisine.

Icyumba bararamo, kirimo amarido, harimo amatara abiri arimo kwaka, hari igitanda kiriho n'imisego, imbere yi iki gitanda hari intebe, muri iki cyumba kandi harimo n'ururabo.

Iyi ni hoteri ifite inyubako isakaje amabati y'umutuku, amadirishya n'inzugi bisize amarangi y'icyatsi, hari ikigega cy'umukara, imbere y'inyubako kandi hari ubusitani bwiza buteyemo indabo, burimo n'amatara imbere yaho hari amapave.

Inyubako yubatse mu buryo bwa etaje, imbere y' iyi nyubako, hari ubusitani burimo indabo, kandi hari n'amatara.

Aha ni mu isoko ririmo imyenda, ibikapu, harimo umukobwa wambaye ikanzu y'igitenge n'ingofero, uhagaze afite umufuka mu ntoki, impande hari umukobwa wicaye hasi wambaye umupira w'umutuku.

Aha hari imbabura yitwa canarumwe impande y'iyi mbabura hari ameza ndetse hari mashini idoda imyenda.

Iduka ririmo umuceri, umufuka umwe wumuceri, harimo igikombe kirimo umuceri, impande yiyi mifuka hari icupa ryavuyemo fanta, inyuma y'imifuka hari ikarito irimo amasabune.

Isoko ririmo ingofero zifite imishumi y'umukara, harimo ingofero z'umuhondo, iz'umutuku n'iz'ubururu, impande yaho haparitse amagare.

Aha ni mu isoko ririmo ibiribwa, harimo abantu benshi abagabo, abagore n'abana, hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara rifite ingofero, inyuma y'uyu mugabo kandi hahagaze akana gato.

Aha ni mu isoko, muri iri soko harimo imashini idoda imyenda, impande y'iyi mashini harambitse akajerekani k'umuhondo, hari moto iparitse itwikije ihema, hari n'umuntu uhagaze wambaye imyenda y'umuhondo.

Isoko ririmo abantu benshi, ari umugore wunamye afite akabase karimo inyanya, imbere ye hari indibase nini y'umukara irimo inyanya, inyuma ye naho hari umufuka uriho intoryi, inyanya n'urusenda.

Aha ni mu isoko ririmo amashu, inyanya, karoti, ibitunguru, pavuro ndetse harimo n'abantu barimo gucuruza izo mboga.

Amagare abiri ariho ibitoki byinshi batwaye ku isoko, impande yabo hari ishyamba riteyemo ibiti, ibitoki barabirya, ibindi bakabikoramo imitobe.

Isoko ry'ibitunguru harimo abantu, hari umugore wicaye ku ihema yitwikiye umutaka, imbere y'aho yicaye hari ibitunguru kandi hari umunzani nawo uriho isahani irimo ibitunguru.

Aha ni mu isoko ririmo abantu benshi. Harimo: imyenda, inyanya ndetse n'imineke.

Iyi ni resitora irimo intebe n'ameza, hari icyapa yanditseho murakaza neza biremewe werikamu.

Inyubako igeretse, yubatse muburyo bw'uruziga, immpande y'iyo nyubako hari ibiti.

Ni muri resitora, iki cyumba kirimo intebe z'umutuku, harimo n'ameza akoze mu buryo bw'uruziga, hariho igitambaro cy'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo, hari kugendamo umuntu utwaye igare, impande yaho harimo n'undi, uri kugenda n'amaguru.

Imodoka iparitse imbere ya banki harimo umugabo wambaye ishati y'umweru, apfukamunwa k'umutuku n'ingofero y'ubururu.

Iyo umuntu ashaka kugera ahantu byihuse yifashisha ibinyabiziga kugira ngo abashe kugerayo nk'aha ngaha dufite abantu bari kugenda kuri moto mu muhanda wa kaburimbo, impande yabo hari abandi bagore barimo kugenda n'amaguru.

Umuhanda wa kaburimbo harimo abantu babiri bari kugenda ku igare, impande y'uwo muhanda hari indabo, hari n'icyapa cyanditseho 60.

Umuhanda wa kaburimbo hari kugendamo umuntu utwaye moto, impande y'uyu muhanda, hari indabo n'inzu isakaje amabati y'umutuku.

Umuhanda urimo ibinyabiziga birimo moto, imodoka, hari imodoka y'ubururu iri kugenda yanditseho pirimusi, impande y'uwo muhanda kandi hari n'amazu bacururizamo.

Umugabo utwaye moto mu muhanda wa kaburimbo, impande ya kaburimbo, hari inyubako zitondetse ku murongo, hari inyubako isize amarangi y'umuhondo, yanditseho Forte Bet, inyuma yayo hari ibiti, kuri izi nyubako kandi hari umuriro w'amashanyarazi, hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, hari n'abantu bake bahagaze imbere y'inyubako.

Abantu bari kugenda kuri moto imwe ari babiri mu muhanda wa kaburimbo, impande turahabona abantu bari kugenda n'amaguru hari n'inyubako izwi ku izina rya etaje ifite amadirishya n'inzugi zisize amarangi y'icyatsi, imbere yabo hari undi muntu ufite igare.

Abamotari benshi bari ku muhanda bambaye ingofero zitwa kasike. Hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'umutuku, hari n'undi uri kuri moto urimo kwambara kasike hafi yabo kandi hari imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo harimo umuntu uri kugenda kuri moto atwaye umugore, impande y'uwo muhanda hateye ibiti.

Umuhanda uri kugendamo umugabo utwaye moto, harimo n'abantu babiri bari kugenda n'amaguru, impande y'uyu muhanda hari inzu nziza zisize amarangi y'umweru.